Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, rugizwe n'amabara y'umutuku handitsemo amagambo ari mu mweru ndetse n'andi y'icyatsi ari hasi.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi. Hari ifoto y'umusore ukiri muto agasatsi ke karasokoje, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'umukobwa uryamye ku gitanda.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto y'umuryango igizwe n'umugore n'umugabo ndetse n'abana babiri ubona ko bishimye cyane mu buryo bugaragara.

Nyiricyubahiro umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara mu kiganza cy'iburyo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi kuru ruhande yicaye hagati y'abantu abantu benshi bamuhanze amaso.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho umugabo uri guseka wishimye cyane usa nk'ukuze wambaye agashati k'umweru uberewe cyane.

Iki ni icyapa kinini kimanitse mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi gisize amabara y'umweru n'ubururu gikikijwe kandi n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni icyapa kinini kimanitse hejuru mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'ifoto y'imodoka nziza y'umukara.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, rwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi hariho imodoka y'umutuku ndetse n'inzu nziza zipfundikiwe n'umutaka w'umukara.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, ku ifoto hariho inzu nziza y'umweru igizwe n'amabati y'umukara, ikikijwe n'umutaka muremure cyane w'ubururu.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hari ifoto y'umukobwa utwaye afite ibyishimo ari guseka bisa nkaho akiri mutoya.

Iki ni icyapa kinini cyo ku muhanda kimanitse hejuru mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kiri mu mabara y'ubururu impande zacyo hari amazu maremare yo mu bwoko bwa etage agerekenyije.

Hoteri yitwa Regasi hoteri aho iherereye ikaba ifite amarangi y'umuhondo ndetse avanze na y'umweru, ikaba iri ahantu heza cyane ku muhanda hari amahumbezi hateye n'ibiti bishobora gutanga akayaga.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi ariho abantu bagera kuri bane abagabo babiri n'umugore n'akana gatoya.

Iki ni icyapa kinini cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi kimanitse hejuru mu kirere, kigizwe n'amabara y'umweru, umutaka w'umutuku, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibintabiziga byinshi by'imodoka hirya gato hari ubusitani bwiza butoshye ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, hari n'icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi.

Aba ni abantu bagera kuri barindwi bahagaze ahantu hamwe ku itapi y'umutuku barakeye cyane, bafite icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi mu biganza byabo higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Ni icyapa kinini kiri hejuru kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi kigizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hirya gato hariho umugabo uri guseka ufite ibyishimo nk'uko bigaragara.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto y'umusore usa nk'aho akiri mutoya, wambaye agapira k'umukara, afite ibyishimo, ari guseka.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi hariho ifoto y'umukobwa mwiza cyane ufite ibyishimo ari guseka yambaye ikote ry'umukara.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hari ifoto y'umugabo ubona ukeye cyane wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu ari gusuhuzanya n'umukobwa.

Iki ni icyapa kinini kimanitse mu kirere, kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kiri mu mabara y'umuhondo, hirya gato hari imodoka y'umweru ishushanyijeho ndetse n'amagambo yanditswe n'umukara.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho ifoto y'abantu babiri umwe ni umugabo undi ni umugore, bose bafite amagare.

Uru ni urubuga rwa banki runaka aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga avuye kuri telefone yawe mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri kandi byihuse.

Urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho rugufasha kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva wu uri kandi bwihuse.

Uru ni rubuga rwa banki ya Kigali, rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye, nta ngendo zitateguwe, bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza, kwakira amafaranga, bitagusabye kuva aho uri, cyangwa ngo ukore ingendo nyinshi zitateganyijwe, birihuse kandi birizewe.

Uru ni urubuga rwa bank runaka rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza, kwakira, ukishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uhereriye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye akakugeraho bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwa banki runaka, aho ushobora kwishyura, kwakira, kohereza amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, cyangwa ngo ukore ingendo utateganyije.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga rwa banki runaka aho ushobora kwishyura kohereza, kwakira amafaranga bitagusabye kuva aho uri cyangwa ngo ukore ingendo zitateguwe.

Uru n’urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwa banki runaka aho ushobora kwishyura, kwakira, kohereza, amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, no gukora ingendo zitateganyije byihuse.

Uru ni urubuga rwa banke runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza, kwakira, kubikuza amafaranga mu buryo bworoshye akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza, kwakira, kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bworoshye akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Aya ni ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu igizwe n'amabara y'umweru impande zose, higanjemo umugore ndetse n'umusore usa nk'aho akiri muto, wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara afite ibyishimo.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru impande zose hasi no hejuru hari amatara yaka mu buryo butandukanye. Yuzuyemo imyenda myinshi, bisa nk'aho igurishwa.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe mu nzu igizwe n'amabara y'umweru, bisa nkaho ari ahagurishirizwa imyenda kuko harimo abagabo babiri ndetse n'abagore ubona bakeye cyane.

Babiri bakiri bato bahagaze ahantu hamwe barishimye ubarebye ku maso yabo bari guseka, umwe muri bo afite amverope mu ntoki yambaye ijipo y'umweru n'agasengeri k'umukara, hirya ye hari imyenda bisa nk'aho igurishwa.

Iyi ni inzu nziza yaka amatara agiye atandukanye impande zose yaba hasi no hejuru agizwe n'amabara y'umweru n'umukara, Huzuyemo ibyo kwambara byinshi cyane bisa nkaho ari aho bicururizwa.

Iyi ni inzu nini isize amabara y'umweru impande zose ndetse n'irindi ry'ubururu riri hagati harimo imodoka nyinshi z'umukara nziza zifite ibirahure bibonerana zisa nk'izigurishwa.

Iyi ni imodoka nziza isize amabara y'umukara impande zose. Amatara yayo arasa umweru ibirahure, birabengerana. Bisa nk'aho igurishwa hirya gato. Hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba, ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe urabona ko bishimye cyane, bafite ikintu kimeze nkurufunguzo mu ntoki zabo, inyuma kandi hari imodoka nziza ibengerana yo mu mabara y'umukara bisa nkaho igurishwa.

Inzu icumbikirwamo abantu izwi nka hoteli, ikikijwe n'indabo zo mu bwoko butandukanye ziri mu mavaze amabara y'icyatsi n'amabara y'umutuku wijimye, ikaba ari inyubako igeretse iri mu mabara y'umuhondo.

Aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe babona ko bafite ibyishimo bari guseka bahererekanya ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo, inyuma kandi hari imodoka y'umweru itwara imizigo.

Iyo ni imodoka nziza, bisa nk'aho igurishwa, isize amabara y'umukara, ifite ibirahure bibonerana ndetse n'amatara y'umweru, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe urabona ko bishimye bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu maboko yabo, inyuma kandi hari imodoka nziza y'umweru igizwe n'ibirahuri bibonerana isanzwe itwara imizigo.

Imodoka ya bisi itwara abantu bakunze kwita shirumuteto, yari irimo kugenda mu muhanda, hepfo y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru hari abantu bari bahagaze, haruguru y'umuhanda akayira k'abanyamaguru, hari abagabo babiri bari barimo kugenda mu nkengero z'umuhanda, kuri ako kayira hari ruhurura icamo amazi.

Iyi ni imodoka nziza nkuko bigaragara ifite amabara y'ikigina ndetse n'amatara y'umutuku, ibirahure byayo birijimye cyane, imbere hari ibiti birebire byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amafaranga y'amanyarwanda ari mu mabara y'ubururu bwererutse ni ibihumbi bibiri, yanditseho banki nkuru y'u Rwanda nawe ushobora kuyifashisha ujya kugura bimwe mu byo ushaka.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe umwe ari hanze undi ari mu nzu aragaze ari gusuka amata mu kajerekani urabona ko ari ibintu byiza cyane kubera ko amata ari ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Inzu icumbikirwamo abantu izwi nka hoteli, ikikijwe n'indabo zo mu bwoko butandukanye ziri mu mavaze amabara y'icyatsi n'amabara y'umutuku wijimye, ikaba ari inyubako igeretse iri mu mabara y'umuhondo.

Uru ni urubuga rwa emutiyene rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora: kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni rubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, cyangwa gukora ingendo utateganyije.

Uru ni urubuga rwa emutiyene rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye, bitagusabye gukora ingendo cyangwa ngo uve aho urira.

Icyumba kigari gitatse neza gifite ibikuta by'umweru, hicayemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse amacupa y'icyo kunywa, imashini ndetse n'igikapu.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi, ndetse n'ikoranabuhanga rwa emutiyeni, aho ushobora kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kuri terefone yawe, bitagusabye kuva aho uri.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Uru ni urubuga rwa emutiyene rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kwishyura kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'umutuku, imbere ubuso n'umweru, ikirango n'umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi b'amamodoka ko imbere aho bari kujya hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri kandi bwihuse,

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kohereza kwakira amafaranga aturutse hanze y'igihugu urimo mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasiy aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura, kwakira, kohereza amafaranga mu buryo bworoshye, bitagusabye kuva aho uri cyangwa ngo ukore ingendo zitateganyijwe.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri birihuta kandi birizewe.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza kwishyura, kwakira amafaranga, mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri cyangwa gukora ingendo utataeguye.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kwishyura, kwakira, kohereza amafaranga mu buryo butandukanye bitagusabye kuva aho uri, kandi byihuse binizewe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, bitagusabye gukora ingendo, kandi akaza yihuse.

Izi ni intebe nziza cyane z'imifariso, ubu ushobora kuryamamo ukumva ni byiza. ziri mu nzu isize amabara y'umuhondo n'amatara agiye atandukanye, ubirebye neza birakeye cyane.

Iyi ni inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hasi yayo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Iyi n'inzu ndende igerekeyije yo mu bwoko bwa etaje, bisa nk'aho igizwe n'amabara y'umutuku impande zose, hari ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza igerekeranyije yo mu bwoko bwa etage isize amabara y'umutuku ibirahure birabengerana hasi gato hari ubusitani bwiza bubereye ijisho ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi .

Ubu ni ubusitani bwiza bw'icyatsi, ubona butoshye cyane, burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo, iz'umutuku, n'andi mabara, mo imbere hateretse intebe zo kwicaraho, ziriho umutaka muremure.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye cyane buri mu mabara y'icyatsi, harimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umuhondo n'iz'umutuku ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho bose.

Aha ni ahantu heza hagizwe n'amatara yaka mu buryo bugiye butandukanye, hari intebe ndetse n'ameza, hirya gato hari ubusitani bwiza bw'icyatsi bufite ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amazu agerekeranyije yo mu bwoko bwa etaje. Asize amabara y'umuhondo n'ibirahure bibengerana, akikijwe n'ibiti byiza bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye buri mu mabara y'icyatsi, harimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umutuku n'iz'umuhondo, hirya gato hari ameza y'umukara n'intebe nziza bihari.

Iyi ni inzu nziza igerekeranije yo mu bwoko bwa etage, ifite ibirahuri impande zose, imbere yayo hateye ubusitani n'indabyo nziza zitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho ngaho bose.

Aya ni amazu maremare yo mu bwoko bwa etaje agerekeranyije, urabona ko ari meza cyane asizwe amabara y'umuhondo n'ubururu n'umweru, hasi gato hari ubusitani bwiza butoshye butanga umuyaga n'amahumbezi.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Iyi ni inzu nini ubona ikeye cyane igizwe n'amabara y'umutuku hasi ndetse n'umweru hejuru, harimo umukobwa usa n'aho akiri mutoya yicaye ku ntebe z'imikara.

Iyi ni inzu nziza, igizwe n'amabara y'umweru impande zose, harimo amatara agiye atandukanye, na za murandasi kuri buri meza, ndetse hari n'intebe z'umutuku, n'ubwatsi bwiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande hakikijwe n'ubusitani bwiza cyane butoshye ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi .

Uru ni urubuga rwa banki ya Kigali rukorera kuri murandasi, ndetse n'ikoranabuhanga hariho umusore usa nkaho akiri muto wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, imbere ye hateretse mudasobwa.

Hoteri yitwa Regasi hoteri aho iherereye ikaba ifite amarangi y'umuhondo ndetse avanze na y'umweru, ikaba iri ahantu heza cyane ku muhanda hari amahumbezi hateye n'ibiti bishobora gutanga akayaga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane huzuye imyenda igiye itandukanye bisa nkaho ari aho igurishirizwa ari abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bamwe barahagaze, abandi baricaye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo ari imifuka ipakiye y'icyatsi, irimo indagara bisa nk'aho ari mu isoko.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande. Hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara haragendamo moto, hirya gato hari abantu bahagaze bambaye impuzankano z'umuhondo kandi hari n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bisa nk'aho bakuze, bamwe baricaye, abandi barahagaze, imbere yabo hari ibyo kurya bigiye bitandukanye wagira ngo ni mu isoko, harimo nk'ibijumba, imyumbati.

Aha ni ahantu hanini, huzuye ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'ibitoki, inyanya, karoti, intoryi, bisa nk'aho ari mu isoko, hari abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bambaye imyenda myiza yiganjemo abagore ndetse n'abagabo n'abasore bakiri bato hirya gato hari ibitenge bihamanitse bisa nkaho bari mu isoko.

Iyi ni inzu nini igerekenyije yo mu bwoko bwa etaje, ifite uburebure bwo hejuru, ikikijwe n'amamodoka menshi ndetse n'abantu bahagaze bacaracara bisa naho ari mu isoko.

Uyu ni umukobwa ubona usa nkaho akiri mutoya yashyize akaboko ku itama rye, yicaye mu biribwa bigiye bitandukanye nk'inyanya, imyembe, indimu, ubunyobwa, imineke, n'ibindi.

Iyi ni inzu ifite idirishya ndetse n'urugi biri mu ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe bahuje urugwiro bari kuganira barishimye ubarebye mu maso yabo, imbere hateretse amabase y'amabara agiye atandukanye arimo ibiribwa nk'imineke, ibishyimbo n'ibindi.

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo bisa nkaho ari mu isoko, hari n'ibiribwa ubona bikeya cyane yaba inyanya, intoryi, imiteja n'imboga.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, umwe arahagaze afite amverope mu ntoki, abandi baricaye higanjemo umugabo n'abagore babiri, imbere yabo ateretse ibyo kurya nk'ibirayi.

Aha ni hantu hari ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'ibishyimbo, ibigori, imbere yabyo hicaye abadamu basa nk'abakuze wagira ngo ni mu isoko, kubera ibintu bihuzuye n'ibitoki ku ruhande.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho ari mu isoko huzuyemo ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'ibitunguru, inyanya, imiteja, n'insenda, hari abadamu bahahagaze mu nzu ifite amabara y'umuhondo n'umweru.

Aba ni abantu bagera kuri bane higanjemo abakobwa babiri ndetse n'abandi bagabo bambaye imyenda y'imyeru, bari kubyina bafite ibyishimo ubarebye ku maso habo.

Aba ni abari n'abategarugori bahagaze ahantu hamwe harimo umumama usa nkukuze kumaso ye yambaye ikanzu nziza cyane imbere ye ahagaze umukobwa ukiri muto w' agapira k'umuhondo kanditseho emutiyeni.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho bitagusabye kuva aho uri kandi bwizewe mu buryo bwihuse.

Iyi ni imodoka nziza imenyerewe mu gutwara imizigo igizwe n'amabara umuhondo, ubururu ndetse n'amapine y'umukara, hagati handitseho amagambo iposita urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uru n’urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, ah’ushobora gutumiza buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bwihuse, kandi bworoshye bitagusabye kuva ah’uri.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumizaho icyo kurya cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye, bitagusabye kuva aho uri, yaba inyama n'ibindi bikoze mu ifarini.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara uturongo tw'umweru, hirya gato hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'icyatsi ari guseka urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Perezida HABYARIMANA Juvenal wayoboye u Rwanda, amaze gutera kudeta KAYIBANDA Gregoire mu mwaka ibihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri kugeza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, aho yarasiwe mu ndege yari avuye gusinya amasezerano y'arusha. Perezida Juvenal yambaye ikoti ryiza ndetse akaba yambaye n'ishati nziza.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze umurebye ku maso he yambaye hejuru y'ubururu irimo uturongo tw'umweru afite amvelope mu ntoki yandikishijwe amagambo y'umukarasha hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumizaho icyo kurya cyose wifuza, kikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva uri kandi byihuse.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho bitagusabye kuva aho uri biroroshye kandi birihuta birizewe.

Urubuga rukorera ku ikoranabuhaga ndetse na murandasi aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uri.

Uru ni urubuga ukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora gutumiza buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho mu buryo bworoshye, bitagusabye kuva wu no gukora ingendo zitateguwe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kuguriraho buri kimwe cyose wifuza kikakugeraho muburyo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora gutumizaho ibyo kwambara nk'inkweto, imyenda bikakugeraho mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri kandi bwihuse.

Aha ngaha turahareba inzu. Izo nzu bari kutubwira ko, izi nzu zikodeshwa. Kugira ngo abantu baziraremo. Ziherereye i Kigali Kimironko, zifite amabara y'umukara ndetse ku mpande zifite amabara y'umweru. Inzu uri kubona ko iri gukorerwamo.

Abana n'abantu benshi bari ahantu hamwe bambaye impuzankano zisa umukara ndetse n'umweru ku mutwe buri umwe wese arahuze imbere yabo hateretse ibikoresho birimo nk'ibitoki bisa nkaho ari aho bigurishirizwa.

Ab ni abantu babiri bari ahantu hamwe, bari guhererekanya agakapu k'umukara, barakeye cyane, higanjemo umugabo ndetse n'umukobwa mwiza wambaye agapira k'umweru, hirya yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora gutumaho icyo ushaka cyose kikakugeraho mu buryo bworoshye bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru impande zose, hirya gato hari amatara yaka neza cyane, hasi hari intebe nziza z'imifariso zo kwicaramo.

iyi ni inzu nziza igizwe n'amabara y'umweru impande zose ndetse n'amatara yaka mu buryo butandukanye, harimo abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo, imbere yabo hari intebe nziza cyane.

Iyi ni inzu nziza, igizwe n'amabara y'umweru, amatara yaka mu buryo butandukanye, ibirahure bisa umukara, ifite imbuga nini kandi ingari, yisanzuye, ushobora gukiniramo wowe n'abawe, iherereye Kanombe, mu mujyi wa Kigali.

Iyi n’ inzu nini ubona nziza ifite amabati y’ umutuku isize amabara y'umuhondo, n'umweru inyuma ku gipangu hariho inzugi z'umukara n'amadirishya asuko, imbere kandi hari ubusitani bwiza cyane butoshye bw'icyatsi iherereye mu mujyi wa kigali kabeza.

Aya ni amazu maremare aherereye Nyarutarama, ni ayo mu bwoko bwa etaje, agerekeranyije, afite imbuga nini, ushobora kwisanzuramo no guhagarikamo ikinyabiziga cyawe, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ubwoko bwa etaje igerekeranyije iherereye Kigali kibagabaga isize amabara y'umuhondo impande zose ndetse n'ibirahure by'umukara, ifite imbuga nini ushobora gukiniramo wowe n'abawe mwisanzuye ndetse n'ubusitani bwiza.

Aya ni amazu meza agerekeranyije, yo mu bwoko bwa etaje, agizwe n'amabara y'umweru n'ibirahure bibonerana, hanze yayo hari ubusitani bwiza cyane, buteyemo indabo zigiye zitandukanye, n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini kandi nziza igizwe n'amabara agiye atanduaknye umweru, umuhondo ifite n'amabati y'umutuku. Hari kandi n'imbuga ngari ushobora gukiniramo wowe n'abawe iherereye Kigali Kanombe.

iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo inshuro ebyiri igizwe n'amabara y'umuhondo amadirishya ni umukara n'inzugi nuko ifite imbuga nini ushobora gukiniramo wowe nabawe mwishimana.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho ari mu isoko, hagurishirizwa bimwe mu bicuruzwa, hari amatara yaka neza cyane mu buryo bw'umweru yiganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Iyi ni inzu nziza ubona igizwe n'amabara y'umuhondo impande zose, ndetse no kunkuta mo imbere huzuyemo ibiribwa bigiye bitandukanye nk'amashu, inyanya, intoryi n'ibindi bisa nkaho ari aho bigurishirizwa.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Aha ni ahantu hanini hagizwe n'amabara y'umweru, hejuru harimo abantu bagiye batandukanye bisa nkaho bakuze baje guhaha ibiribwa birimo ahongaho byose yaba ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Uyu ni umukobwa ubona usa nkaho akiri muto yambaye neza arakeye afite anvelope mu ntoki ze isa ikigina, hirya gato hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'inyanya, karoti, intoryi n'ibindi bisa nkaho ari mu isoko.

Iyi ni inzu isa nk'aho ari nini mo imbere isizwe amabara y'umweru impande zose, hasi no hejuru huzuyemo ibikoresho nk'amatapi, ibitenge n'ibindi byinshi ubona bikeye cyane, bisa nk'aho ari aho bigurishirizwa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'ubururu, hari abandi bicaye ku ntebe nziza, imbere yabo hateretse za murandasi higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Mu muhanda, indabyo, amapoto, ibiti, imikindo, imodoka insinga.

Aba ni abagabo babiri bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane, bateruye icyapa kiri mu mabara y'umweru, hirya gato uwambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara nta musatsi na mukeya afite.

Uyu ni umugabo ubona ukeye cyane, arahagaze asa nk'uri kugira ijambo ageza ku bamukurikiye, yambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru, agasatsi ke karasokoje, afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi mu ntoki ze.

Iyi ni inzu nini kandi ndende mu bugari bwayo igizwe n' amabara y'umweru ndetse n' amatara agiye atandukanye, huzuyemo ibyo kurya byinshi cyane nkuko bigaragara nawe ushobora kuba waza ukigurira kubera ko ari mu isoko.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.

Mu Rwanda hari utubari tugiye dutandukanye twinshi, utubari two mu Rwanda dukomeje guterimbere bitewe na serivise nziza tugenda dutanga, ahangaha hari intebe nziza abaturage bashobora kuba bakwicaramo ushobora kuba wasohokana n'abawe ndetse mukahagirira ibihe byiza kuko bababafite ibinyobwa bitandukanye.

Iyi ni inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukonjesha ndetse n'ibyo kunywa. Hafi aho ngaho hari umukobwa usa nkaho akiri muto wambaye neza wagira ngo ngo yajeha.

Iyi ni inzu nini isize amabara y'umweru, ndetse n'amatara yaka mu buryo bugiye butandukanye huzuyemo ibikoresho byinshi yaba umuti w'amenyo, ndetse n'ibiribwa hahagazemo abana basa nkaho bakiri batowa.

Iyi ni inzu nini isizwe amabara y'umweru ku mpande amatara araka mu buryo butandukanye, imbere yayo harimo ibiribwa byinshi nk'inanasi, imineke, soya, ubunyobwa n'ibishyimbo bisa nkaho bigurishwa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bishimye cyane higanjemo abakuze yaba abagabo ndetse n'abagore, urabona ko bari kuganira ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.